Ishashi irimo rozwari ndetse n'imifuka biteretse imbere y'inzu bacururizamo inyongeramusaruro. Mo imbere mu nzu harimo akabati gateretsemo ibikarito ndetse n'amacupa birimo ibikoresho byongera umusaruro.

ikirundo kirekire cy'ifumbire ndetse harimo n'ibisigazwa by'ibiti by'ubwoko butandukanye, ikirundo kiri imbere y'inzu iteye ingwa y'umweru.

Ruzwari, amacupa ndetse n'ibikarito bipanze neza mu tubati turi mu nzu iteye irangi ry'umuhondo, imbere hari ameza arambitseho ikaramu ndetse n'ikayi. Ni ofisi cyangwa iduka bacururizamo inyongeramusaruro.

Ibyatsi biteye imbere y'umurima uteyemo ibigori bifite amababi maremare, ibindi amababi yarahungutse andi aruma. Mu murima hagana imbere harunzemo ikirundo cy'ifumbire.

Umuntu mukuru uhagaze mu murima w'ibigori, afashe mu ntoki agafuka arimo kugenda afumbira ibigori, ibigori byakuze ariko bitari byaheka.

Umurima wiganjemo ibiti by'insina, ndetse harimo n'ibyakatsi n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye, bimwe bifite indabo byahakuriye.

Imirima myinshi itandukanijwe n'ibikuta byubakishije amatafari, biteyemo imyaka y'ubwoko butandukanye. Uw'imbere uhinzemo, imboga ndetse higanjemo n'insina n'ibigori. Ukurikiraho harimo ibigori. Hirya higanjemo ibiti birebire.

Imbuto z'ikawa zakuze zirambitse kuri shitingi irambitse hasi, ntago ziratonorwa ngo zume, ndetse harimo n'ibibabi byagiye bihungukana n'imbuto bari gusarura.

Ikawa zakuze ziraraba mu murima mugari. Ariko ntabwo zirashora ngo zizane ibitumbwe. Hirya y'umurima hateye ibindi biti ndetse n'ibyatsi.

Umurima mugari uteyemo ibigori, ibiti by'ibigori byarakuze biba birebire ndetse byatangiye no kuraba, ibigori bimwe biraheka, bizana ibigori ndetse bimwe bifite n'imisatsi.

Umurima mugari uteyemo ibishyimbo bitari byakura ndetse n'ibigori birebire amababi yumye.

Umuntu ubyibushye uhagaze mu murima uteyemo insina ndetse n'ibishyimbo bitari byaheka, hirya y'umurima hari agasozi, hino hateye ibiti birebire.

Ibitumba byinshi biranduye byakuze bigerekeranyije hejuru y'ibyatsi, biracyafite imizi imizi ndetse hariho n'itaka ku buryo umuntu abiteye byakwera.

Umurima mugari uteretsemo amashashi arimo ingemwe z'ibiti by'imyembe byakuze, ndetse mu mashashi hagiye harimo ifumbire ndetse n'itaka.

Umurima uri iruhande rw'akayira, uteyemo insina ndetse n'ibyatsi, ukikijwe n'urukuta rwubakishijwe amatafari ya rukarakara, hirya y'urukuta hari inzu isize irange ry'umweru, hirya yayo hateye ibiti birebire.

Umuntu ufite isuka mu ntoki arunamye, arimo guhinga mu murima asarura imyumbati, ibiti bimwe biraranduye, ibindi byaguye hasi barabikuye, hirya y'umurima hateyemo ibindi biti by'imyumbati ndetse n'ibiti bisanzwe birebire.

Umuntu w'igitsina gore. yunamye, mu murima wi'bigori, arimo kubibagara. Ibigori, byarakuze, biraheka. Ndetse n'ibigori bimwe, byarumye.

Abantu benshi bafite amasuka, bunamye mu murima barimo guhinga. Ni umurima uteyemo imyumbati, amateke, ndetse n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye, birebire.

Umuntu w'igitsina gabo urimo guhinga mu murima uteyemo ibigori ndetse n'imyumbati, hirya y'umurima ni mu gishanga ndetse hari n'undi murima uteyemo insina.

Abantu benshi barimo gukura umurima mugari benda kuwurangiza, iruhande rw'umurima haparitse igare ry'umuntu yashyizeho n'igitebo.

Imifuka myinshi, imwe igererekeranyije, indi ihagaze mu kibuga, iruhande rw'amazu asakaje amabati, imwe irafunguye, indi irafunze iruzuye.

Ibigori byinshi byakuze byumye, bishashe kuri shitingi irambuye hasi n'abantu bunamye, barimo babisanza babikoramo, hirya yabyo hari igare n'igikuta cyubakishije ibyondo.

Abantu benshi bunamirije mu bigori birundanije kuri shitingi iteretse hasi, barimo kubisanza. Hari n'abandi babashungereye, ndetse hari n'urimo gufotoza icyuma cyabugenewe.

Ibigori byinshi byumye byakuze, birundanyije mu gikoresho bubakishije imbaho, senyenge ndetse n'ibyuma. Biteretse hejuru y'itaka.

Imifuka ya rugano yuzuye n'indi icagase irimo ibijumba bironze byakuze. Ibindi bimennye hasi, ibindi biri mu mabase y'umutuku.

Ibitebo byinshi bitondekanyije. Ibyinshi byuzuyemo inyana zakuze zeze. Bimwe birapfundikiye ibindi birapfunduye. Ndetse hari n'abantu babiri barimo kugenda babigira neza bashyiramo n'inyanya.

Ishyamba ryagutse riteyemo ibiti binini ndetse n'ibitoya, harimo n'ibyatsi. Hasi hari ibisigazwa by'amashami ndetse n'amababi yahungutse.

Umurima uteyemo, ibyatsi by'ubwoko butandukanye, imbingo. Ndetse n'ibiti birebire. Harimo n'ubusitani. Uwo umurima uri ruhande rw'inzu, yubakishije amatafari ahiye,

Umurima mugari uteyemo insina zakuze zimwe zifite n'amakoma yumye, ndetse hateyemo n'imyumbati n'ibindi byatsi by'ubwoko butandukanye.

Igiti kirekire cyakuze gishishuye kikubise hasi mu murima, uwo murima urimo ibindi biti biri hasi ndetse n'ibindi biti biteye birebire ndetse harimo n'ibimera by'ibyatsi.

Umurima uteyemo indabo z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibyatsi, ibigori ndetse n'insina zimwe zakuze, izindi amababi yarumye.

Imineke myinshi yakuze; imwe yatangiye kubora iteretse ku mufuka indi iteretse iruhande rwayo. Imeze nk'aho itegereje kuribwa, kugurishwa cyangwa mu gukoresha bakora umutobe.

Abantu babiri barimo kuvomera umurima mugari uhinzemo amashu atari yaheka. Ni umurima usashije ibisigazwa by'ibikenkeri.

Imineke myinshi iri ku nkoko ebyiri yeze ndetse inyuma yayo hateretse agatoki k'imineke na ko katukuye kegetse ku rukuta.

Ibiganza bibiri bifashe ku bibabi by'igiti cyeze ibibiriganya, mu murima mugari ushashije ibikenyeri, uteyemo n'ibindi biti byera ibibiringanya.

Igiti cy'ururabo giteye mu murima gifite amababi asa n'icyatsi ndetse n'indabo zitukura. Hirya y'ururabo hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Umurima munini uteyemo sereri mu buryo bw'amayogi. Ruguru yawo hateyemo imboga ndetse n'ibyatsi biri ruguru yazo by'ubwoko butandukanye.

Avoka nyinshi zakuze ndetse n'izikiri ntoya zeze ku giti giteye mu murima uteyemo n'ibindi biti bitandukanye byeze avoka.

Umurima mugari usasiye, uteyemo insenda, zimwe ziri kuraba izindi zareze ariko ntabwo ziratukura. Ndetse hateyemo n'amateke yakuze yazamutse.

Abantu babiri uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo bahagaze mu murima uteyemo imbuto z'ibinyomoro. Kimwe cyarakuze ndetse kizana n'imbuto ibinyomoro, kimwe cyaranahishije ibindi biracyari bitoya. Ni umurima ujitije ibiti ndetse n'ibikenke.

Umurima mugari uri iruhande rw'inzu isize irangi ry'umuhondo, uteyemo seleri, imboga, ipapayi ndetse n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye.

Ibitunguru byinshi byakuze biba birebire, ibindi biruma, byereye mu murima uri iruhande y'urugo, rwubakishije ibiti.

Umurima mugari, uteyemo ibiti by'indabo. Ni ibiti bifite amababi magari ateye ubwuzu, asa n'icyatsi. Ndetse indabo zimwe zarakuze, izindi ziratukura.

Igiti cy'ipapayi kirekire kiri kumwe n'ibindi biti by'amapapayi bitari byakura, giteye mu murima uri iruhande y'inzu isakaje amabati imbere ndetse n'amategura.

Umugabo n'umugore ndetse n'umwana, bahagaze mu murima mugari uteyemo intoryi, bafashe mu ntoki intoryi berekana umusaruro ndetse mu murima hateyemo n'imyumbati itarakura.

Imiteja irunze mu ibase isa n'ubururu. Iruhande rwayo hari izindi mbuto z'ubwoko butandukanye nka karoti, n'ibibiringanya.

Umukecuru uhagaze impande y'akarima k'igikoni kazitiwe na shitingi, gateyemo imboga ndetse n'ibitunguru, ni umurima uhinzemo ibigori n'ibindi bihingwa by'ubwoko butandukanye.

Umurima mugari uhinzemo insenda, zimwe zaratukuye zisa n'umuhondo izindi, ntabwo zari zahisha, hirya y'umurima hateye ibindi biti birebire ndetse n'ibigufi by'ubwoko butandukanye.

Umuntu w'igitsina gabo urimo kuvomera umurima mugari, uteyemo ibigori, bimwe byatangiye gukura, ibindi ni byo bikiri kumera. Hirya y'umurima hateye ibihuru birimo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abantu benshi bafite ibikoresho bitandukanye bateraniye mu murima uteye, umwe afashe agakoresho mu ntoki agakoresho, arimo kuvomera amazi uwo murima akoresheje igihombo.

Abantu benshi bahagaze imbere y'umusozi. Ni umusozi uteyemo ibihingwa ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, bameze nk'abagiye kuwuzamuka cyangwa basoje kuwumanuka.

Ihene iziritse ku giti mu ishyamba. Ni ishyamba irimo ibiti byinshi, ihagaze hejuru y'ibisigazwa by'ibiti nk'amababi y'ibigori.

Inka nkuru, ifite ikiziriko, mu ijosi yambaye iherena, ihagaze mu bisigazwa by'ibyatsi. Iruhande rw'igikuta, cyubakishije amatafari ya rukarakara.

Ihene iziritse mu byatsi by'ubwoko butandukanye. Ibyatsi bimwe byazanye imbuto ibindi bifite indabo hirya y'ihene hari ibikoresho byashaje bahajugunye.

Ingurube ihagaze mu kibuti, cyubakishije ibiti ndetse n'imbaho. Mo imbere mu kibuti, hari ifumbire. Ndetse n'igikoresho, cy'ijerekani baciyemo kabiri, bakoresha barimo kwita ku ngurube.

Umusaza uhagaze iruhande rw'ihene iziritse irimo kurisha ibisigazwa by'ibyatsi. Ni inyuma y'inzu iruhande rw'inzu yahirimye yubakishije amatafari ya rukarakara. Inyuma y'umusaza hari umurima uhinzemo ibishyimbo, insina, ndetse n'ibindi bimera by'ubwoko butandukanye.

Umwana urimo kugaburira inka, ari kumwe n'umusaza urimo kwita ku yindi nka, zose ziziritse ku kiraro cyubakishije ibiti ndetse n'imbaho, ni mu gikari cy'inzu yubakishije amatafari ya rukarakara.

Umuntu w'igitsina gore wambaye igitenge ndetse n'ingofero yicaye mu nzu yororeramo inkoko, afite mu ntoki udukoresho ndetse n'umufuniko w'indobo uteretse hasi arimo kwita ku mishwi y'inkoko, iruhande rwe hateretse imbabura irimo amakara ndetse n'ibuye.

Ikiraro kigari cyubatse iruhande rw'inzu yubakishije ibyondo, isakaje amategura. Ni ikiraro cyubakishije ibiti bifite imiryango ikoze mu mbaho, gisakaje amabati.

Abantu bashungereye ihene ziri mu murima mugari uteyemo ibyatsi by'ubwoko butandukanye n'ibiti bimwe bifite indabo, izo hene ziri kumwe n'umuntu mukuru urimo kuzitaho.

Umuntu w'igitsina gore, yunamishije ingurube mu ibase arimo kuyinywesha. Ari kumwe n'umwana wambaye impuzankano, bari inyuma y'inzu iteye sima.

Ingurube irimo kurisha ibisigazwa by'ibyatsi mu kibuti. Ni ikibuti cyubakishije ibyondo, iruhande rw'ingurube hari agacupa baciye, bifashisha barimo kuyigaburira.

Umuntu ufashe ikiziriko kiri mu ijosi y'ihene, bari inyuma y'inzu yubakishije ibyondo n'amatafari rukara, iyo nzu ifite igipangu cyubakishije ibikori ndetse n'ibiti ndetse hanze hateye insina.

Umuntu ufashe mu ntoki ikaramu, ahagaze imbere y'abantu bicaye buri wese afite ingurube. Inyuma yabo hari undi muntu uri kunyuraho, ndetse n'imodoka ihaparitse iruhande rw'indabo.

Inka enye zihagaze mu biraro byubakishije ibiti, bisakaje amabati. Imbere y'ibiraro bazihashyiriye uburisho bumwe bukozeze mu biti. Imbere yabyo hahagaze abantu babiri bahagaze imbere y'ikindi kiraro cyubakishije ibiti na cyo gisakajwe amabati.

Abantu benshi bateraniye mu kibuga, kiri iruhande rw'inzu yubakishije amatafari ahiye, bazanye inka zabo, bari kumwe n'ababafasha nk'aho bari mu gikorwa cyo gukingira kuvura inka mu buryo bwa rusange.

Amashu arunze iruhande rw'isoko rigari, hari abacuruzi babiri ndetse n'umuntu uri kugura, mo imbere mu isoko harimo abantu batandukanye benshi, harimo abaguzi ndetse n'abaje gucuruza.

Ibigori byakuze bimanitse ku biti. Byarumye. Hasi yabyo hateye ibyatsi, ndetse hirya no hasi hari shitingi.

Ibishyimbo byakuze by'amabara, birundanyije hamwe. Byarumye bitegereje gutekwa cyangwa gutunganywa, kugira ngo bihingwe bizabyare ibindi bishyimbo byinshi.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye ingofero ahagaze mu nzu, yasamuye inka arimo kuyitamika umuti uri mu gacupa.

Abantu babiri. Umwe yambaye igisurubeti. Bafashe inka bayizamuye umutwe. Barimo kuyambika ihererena. Ni inka iri iruhande rw'ikiraro, cyubakishije ibiti.

Ibiganza by'umuntu ufashe ku ntama. Iruhande rwabo hahagaze undi muntu. Inyuma yabo hari ikiraro cyubakishije imbaho. Bose bahagaze mu bisigazwa by'ibyatsi, iruhande rw'ubusitani buteyemo ibyatsi by'ubwoko butandukanye bigufi.

Umuntu w'igitsina gabo uhagaze ku muryango w'icyumba, yororeramo inkoko, ni icyumba cyubakishije ibyondo, muri icyo cyumba bikoresho bitandukanye nk'indobo, imifuniko akoresha arimo kwita ku nkoko.

Umuntu wambaye igisurubeti cy'ubururu aricaye arimo kwita ku gisebe cy'inka iryamye hasi iri iruhande rw'igikuta giteye karabasasu, iruhande rwe hicaye undi muntu umushungereye.

Imbeba iri kunyura hagati y'amababi y'ibiti, amababi amwe yarumye, andi asa n'icyatsi, aracyatoshye, ndetse ikandagiye no ku gisigazwa k'igiti.